Ibigo by'amashuri biba byubatse mu buryo buhurutuye ,bifite imiryango myinshi itandukanye, ibigo by'amashuri kandi biba bifite n'ibibuga abandi bakiniramo.

Mu bigo by'amashuri abanza haba harimo ikibaho umwarimu iyo ari kwigisha abana yandika ku kibaho agakoresha ingwa.

Abanyeshuri mu ishuri baba bicaye ku ntebe, mwarimu ari kubayobora, baba bafite amakaramu ay'ibiti cyangwa se amakaramu meza asanzwe.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufitiye akamaro kanini cyane muri iki gihe ariko iyo bipfuye hari abantu bashinzwe kubikanika bigakunda.

kuri ubu, mu bigo by'amashuri ya segonderi, baba bafite imashini bakoresha biga ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga ibintu bijyanye nubuvuzi n'ubuganga, baba bambaye amataburiya imyenda y'umweru, baba bambaye na za ga.

Ububaji ni umwuga mwiza cyane. Ababaza imbaho bakazikuramo intebe, ameza, n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Kwiga imyuga ni ikintu cyiza cyane. Kudoda byo bikaba akarusho kuko ntabwo ushobora kubura icyo ukora iyo uzi umwuga wo kudoda. Abantu benshi baza bagusanga ukabadodera imyenda yo kwambara.

Abasitajeri bimenyereza umwuga w'ubuganga, bajya mu bitaro cyangwa se mu maraboratwari no mu mafarumasi, bakareba uko imiti itandukanye n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa.

Ububaji ni umwuga mwiza cyane, barabaza tukabona imbaho zo gukoresha ibintu byinshi bitandukanye, ububati, intebe, amadirishya, inzugi, n'ibindi.

Abanyeshuri biga bambaye amataburiya, baba bari kwiga ibintu bijyanye n'imyuga. Bitoza kwambara uko bazajya bambara bageze mu kazi k'ibyo bari kwigira.

Intama ni amatungo magufiya yo mu rugo, na yo iyo arwaye aravurwa n'abaveterineri babugenewe kandi babyigiye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga abantu benshi muri iki gihe bari gukunda kubyifashisha cyane . Amaradiyo, amapanosoleye n'ibindi byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Ubutetsi na bwo ni ingenzi cyane, abanyeshuri barabwiga mu mashuri, ndetse mu mahoteri burakoreshwa, ndetse no mu makwe abatetsi baba bakenewe cyane.

Abanyeshuri biga ibintu bijyanye n'imyuga baba bambaye amasarubeti, kubera ko baba bariga banapfukama bakora ku bintu byanduye, niyo mpamvu bambara imyambaro barimo.

Abanyeshuri biga muri segonderi baba bishimye cyane, kubera yuko kuba muri dorotwari biba ari ibintu byiza cyane, bituma umuntu amenya imico y'abantu itandukanye.

Umwarimu yigisha na we ari kukunguka ubumenyi ,abanyeshuri biga bari kunguka ubumenyi bituma banamenyana iyo bahuriye ku mashuri, bagategura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza neza cyane.